Farumasi icuruza ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, irimo imiti myinshi itandukanye, muri iyo farumasi bafite kandagira ukarabe, inzugi zaho zisize irangi ry'umweru ndetse ku muryango wayo hariho amakaro.

Farumasi icuruza ibintu byerekeranye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, harimo umuntu ukora muri iyo farumasi, yarambitse impapuro ze ku meza ndetse n'ikaramu.

Abahinzi bari mu murima, umurima uhinzemo ibintu bitandukanye, harimo nk'ibihaza, ikawa ndetse n'ibindi.

Umurima urimo ibigori, ibyo bigori bimeze nk'ibyamaze kwera kandi ni byiza cyane birasa icyatsi.

Inka isa naho yavuye amaraso menshi irimo kubyara cyangwa bari kuyibaga, hafi aho mu byatsi haryamye imbwa, zirashungereye.

Umurima mugari uteyemo ibihingwa byinshi bitandukanye, muri uwo murima harimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara urimo kuhira ibyo bihingwa.

Umuntu uri mu murima w'ibigori ariko ibi bigori byareze. Ffashe ibigori bitanu byumye mu ntoki ze yabivovoye arimo arabireba.

Isoko ry'imboga ryiganjemo cyane cyane inyanya, intoryi, imiteja, puwavuro, puwaro, seleri, teyi ndetse n'ibindi, impande y'aho babicururiza hari n'undi muntu ucuruza ibindi bintu bisanzwe bitari imboga.

Umurima mugari w'ibigori urimo abakozi benshi batandukanye ndetse uyu murima uri ahantu mu kibaya, hegeranye n'amazi menshi twakwita nk'ikiyaga ndetse hirya y'icyo kiyaga hari ahantu hagaragara nk'udusozi.

Inzu yubatse ahantu impande y'umurima, muri uwo murima harimo ibihingwa binyuranye, harimo nk'insina ndetse n'ibindi byatsi.

Umurima ugaragara ko umaze igihe kinini udahingwa, urimo ibyatsi byinshi bitandukanye ndetse harimo n'ibiti binini cyane bitatu, kimwe muri byo baragitemye.

Inzu y'amategura isize umucanga ndetse ukikijwe n'umurima, muri uwo murima hamezemo n'ibiti bya matiyakuku ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Inzu yubatse ahantu hakikijwe n'ibihingwa byinshi bitandukanye, birimo: ibijumba, insina avoka, ibisheke, ndetse n'ibindi.

Umurima bahingamo imboga z'ubwoko bwinshi butandukanye harimo nka karoti, dodo, sereri, puwavuro ndetse n'indabo.

Ubusitani bugizwe na pasiparume ndetse n'indabo ziteye kuruhande zibukikije.

Umugore n'umugabo bameze nk'aho barimo barubaka akarima k'igikoni, bakoresheje ibitaka n'imifuka ndetse urabona ko bameze nk'aho bishimye.

Umurima uteyemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'ibinyomoro amateke ndetse n'ibindi, ibinyomoro bitangiye kwera, harimo bimwe muri byo byahiye,

Isoko ry'ahantu bagurishiriza imbuto zitandukanye zirimo ibinyomoro, amacunga, manderine, imyembe, watermelon; hari umunzani uriho ibase bapimisha izo mbuto.

Imiteja myiza cyane yeze iri mu i ibase, impande y'iyo base hari na karoti.

Umurima uteyemo amashu, muri uwo murima harimo umugore wishimye cyane, urimo kuhira ayo mashu, uwo murima biragaragara ko uturanye'indi mirima myinshi ahantu mu kabande, iyo mirima nayo ikaba iteyemo ibindi bintu bitandukanye nk'insina ndetse n'ibindi, hari n'abandi bagabo batatu barimo baramureba.

Umurima uteyemo ibihingwa byinshi bitandukanye, cyane cyane ibyiganjemo imboga ndetse harimo n'abantu babiri barimo baruhirira izo mboga bakoresheje ibihombo, hari n'ijerekani.

Umurima mugari umeze nk'aho ari mu gishanga bahingamo umuceri ndetse hakikijwe n'udusozi dutoya

Umudugudu urambuye urimo imirima myinshi, igabanyijemo n'amaterasi y'indinganire, hagaragara urugo rumwe gusa.

Imirima myinshi itandukanyijwe n'amaterasi y'indinganire, hateyemo ibihingwa bitandukanye ndetse hari utuyira duto cyane tw'abanyamaguru bacamo.

Ingurube ziri aho ziba. Zimwe ziraryamye, izindi zirahagaze mu kiraro.

Ahantu bororera inkoko za kijyambere ndetse harimo n'ibintu bakoresha bagaburira izo nkoko.

Umugore umwe n'abagabo bari mu kibuga ndetse icyo kibuga kirimo n'inka. Abo bagabo baragaragara nk'aho ari abashumba b'izi nka ndetse hepfo hari inzu zihubatse.

Inka iri mu kiraro cy'ibiti, icyo kiraro kirimo n'ubwatsi bwayo. Ariko yo ntabwo irimo kuburya.

Ifoto irimo abantu icyenda, abo bantu bifotoje buri wese afashe urukwavu mu ntoki ze, biragaragara ko izi nkwavu bavuye kuzifata kandi bazishimiye.

Ingurube iri ahantu mu rugo, muri urwo rugo hari n'ijerekani, iyo ngurube irimo irarya ibyo bayishyiriye mu gice cy'ijerekani.

Ikiraro cy'inka cyubakishije ibiti, muri icyo kiraro harimo inka, hirya y'icyo kiraro hubatse akazu kubakishije ibyondo, harimo ijerekani yaguye hasi, yo nzu ikikijwe n'imiyenzi.

Imbuga y'urugo rw'ahantu mu cyaro, irimo imbabura batekeraho, urwo rugo rukikijwe n'imiyenzi. Hagati mu mbuga hashinzemo, igiti kiziritseho ihene.

Inka iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, imbere y'iyo nka bahashyize ibiryo byayo.

Umurima urimo ibintu byinshi bitandukanye harimo n'igiti kirekire, icyo giti umuntu yagifatishijeho ikiganza cye yerekana imbuto zezeho.

Umurima urimo ibitaka bisa n'umukara ibyo bita biteyemo imyumbati, iyo myumbati imeze nk'itangiye kumera.

Abantu batatu bashungereye inka isa nk'aho yabohewe ahantu runaka, umwe muri bo yambaye itaburiya afite n'ikayi wagira ngo hari ibyo arimo kwandika.

Abagabo babiri bafashe inka ariko umwe yambaye itaburiya ameze nk'urimo kuyitera umuti, iyo nka iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gishakajwe amabati.

Abantu babiri umwe yambaye itaburiya ameze nkaho, ari umuganga w'amatungo, hari inka yapfuye imeze nkaho aho wagira ngo barimo barayibaga.

Umudugudu ugaragara nk'aho ari uwo mu cyaro, uragaragaramo abantu batatu, umwe n' umugenzi uri kwigendera, undi ni umworozi w'inka uri gukorera inka amasuku, ndetse hari n'umugore uri kugaburira inka ubwatsi.

Abantu bane begereye inka, batatu barayifashe uwa kane ameze nk'umuganga w'amatungo arimo arayitera urushinge, hirya hari akana karimo karaza kabasatira, abo bantu bahagaze mu murima.

Ishami ry'giti ridafite amababi, ku mpera y'iryo shami hahagazeho inyoni.

Akanyugunyugu gasa ubururu, gafite amababa abiri, kihagarariye ahantu mu murima, umurima urimo n'ibyatsi.